U Rwanda rwateye imbere ku bijyanye no gutanga amazi meza, ubu ngubu haragaragara amasoko menshi aho abaturage bagenda bakavomera amazi kandi ku buntu, n'ubwo u Rwanda rwateye imbere ariko haracyari izindi mbogamizi kuko abaturage bose mu gihugu si ko bose bashobora kugera kuri aya masoko.

Hagiye haba ibiganiro bitandukanye, ibyo biganiro bishingiye ku kuzana ibisubizo by'ibibazo abaturage bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, muri ibi biganiro abayobozi batandukanye baricara bakareba ibyarengera ubuzima bwa muntu, ndetse n'ibisubizo uko byaba bimeze.

Hashyizweho amasoko yorohereza abantu kuvoma amazi, igihe amazi yabuze. Nubwo hari amasoko ariko, abantu bafata igihe kinini bategereje kugerwaho, bakavoma ku buryo hari ibintu byinshi baba bakagombye gukora birangira badakoze, bikabaviramo igihombo nk'abacuruzi.

Abaturage baturiye inkengero z'ibiyaga ndetse n'izindi nzuzi, bakunda kugaragara kuri izo nkengero, bahakorera amasuku ndetse n'ibindi bikorwa, akenshi ndetse n'abana babo bajya muri ayo mazi bakahamara igihe bari gukina bakayakarabiramo.

Iyo abana bagiye ku ishuri, bakunda kurangwa n'urugwiro, bakishima bakanezerwa, abana bari kumwe hamwe biborohera kwisanzura, kurusha iyo ari bonyine, abana bari hamwe biga byinshi bakagera kuri byinshi kandi bishimye.

Ubuvuzi bukuru n'ubuvuzi bwihariye bugamije gukemura ibibazo by'ubuzima bw'abantu bakuru. Ikigamijwe ni ukubungabunga ubuzima bwabo, kubafasha kwitwararika mu ndwara bafite, kuzamura ubuzima bwabo. Mu byo bakora kenshi ni ukubatoza, kubibutsa ndetse no kubafasha mu gufata imiti yabo bakayifata neza nk'uko byavuzwe na muganga.

Bimwe mu bigo bishinzwe kurengera ubuzima bwa muntu, abantu batandukanye barahura baturutse mu bihugu bitandukanye bakaganira uko hakorwa kandi hagashyirwaho ibisubizo bifasha mu kurengera ubuzima bwa muntu, aba bantu niyo migambi baba bafite cyane cyane muri bino bigo.

Inyubako zabugenewe aho tujya kugura imiti twandikiwe na muganga cyangwa se igihe twebwe ubwacu tuba twumva tutamerewe neza. Izo nyubako akenshi zirangwa n'isuku, amabara yerurutse nk'ubururu kandi hakaba hari igipapuro kimanitse hejuru, kerekana ubwishingizi ba nyir'iyo nyubako bakorana na zo.

Inyubako zo kwa muganga zikunda kugaragazwa n'ikaze, iyo kaze byanditseho amagambo aturangira aho tugomba kujya kubariza cyangwa se guhura na muganga cyangwa se aho ahandi hakorerwa ibindi bizamini bitandukanye. Kwa muganga hakunda kuba hari ahantu hitaruye, aho abantu bicara bategereje nk'ibisubizo.

Haguzwe ibikoresho bishya, bijyanye n'iterambere tugezemo mu Rwanda. Ibikoresho biboneka kandi bigashyirwa ahantu hagari hitaruye, ku buryo buri muganga abona kuza gusuzuma umurwayi afite umwanya uhagije.

Imyitozo y'umubiri iri muri bimwe abaganga badushishikariza gukora kuko biturindira ubuzima, bikarinda zimwe mu ngingo z'umubiri, harimo amavi, ingingo z'umubiri zimwe zikunda kuturya bitewe n'uko tutagorora imibiri yacu, imyitozo idufasha mu kudukiza zimwe mu mvunane tutiriwe dufata imiti.

Imyitozo ngororangingo, iri muri bimwe bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu, benshi ntabwo tubiha agaciro, ahubwo twitwara uko twiboneye, tukirira ibyo twiboneye, umubiri wacu ugahinduka, bishobora kuba byatwangiza ubuzima, ariko imyitozo irahari kugira ngo twongere tugarure ubuzima buzira umuze.

Ubuvuzi ingororangingo, ni ishami ry'ubuvuzi ryibanda ku gukumira gusuzuma no kuvura ibikomere bijyanye n'imyitozo ngororangingo, harimo kandi no kunoza imikorere y'imyitozo binyuze mu miterere y'umubiri no mu buzima busanzwe bw'umuntu.

Imyitozo y'umubiri iri muri bimwe bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu tutiriwe tujya kwa muganga inshuro nyinshi, ugorora umubiri, ukagorora ingingo zitandukanye, harimo amaboko, amaguru, kwirukanka ndetse n'ibindi, ni bimwe bidufasha kubungabunga ubuzima bwacu.

Imiti ya gakondo mu Rwanda imajije kuzamuka cyane aho isigaye iboneka kandi ikaboneka mu buryo bworoheje, iyo miti ikunda kuboneka mu ducupa ikamwebwa cyangwa se imwe igashyirwa mu biryo. Imiti ikenshi iboneka n'imwibwa idufasha mu gukemura ibibazo nk'imivuduko y'amaraso.

Ubuvuzi gakondo bwateye imbere, aho ubu byoroheje kubona ahantu wagenda kugurira imiti no kugira ubusobanuro bwimbitse kuri iyo miti ugiye gufata ya gakondo, abo dusanga n'abo tugana akenshi baba bambaye itaburiya y'umweru, abo ngaho nibo badufasha kubona ubusobanuro bwimbitse bw'imiti tugiye gufata n'uko tugomba kuyifata.

Mu Rwanda ubuvuzi gakondo burimo imiti itandukanye ishingiye ku bimera bikoreshwa mu kuvura indwara z'umubiri ndetse n'ibitekerezo. Imwe mu miti ikunda gukoreshwa harimo ibisura, iyo miti iba iseye. Hari n'indi miti iba idaseye, iyo miti yose ubu ngubu isigaye iboneka ahagaragara, aho bayishyira mu ducupa dutandukanye.

Ubuvuzi gakondo bumaze igihe kinini mu buzima bw'u Rwanda, aho bumaze gutera imbere ku buryo imiti ya gakondo isigaye itangirwa mu ducupa dupfunditse tukajya mu dukarito tw'umutuku cyangwa se mu ibara ry'umuhondo, abantu bashinzwe gutunganya iyo miti ya gakondo, akenshi baba bambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Imiti ya gakondo iza mu buryo butandukanye. Iyo miti ishobora kuboneka mu buryo buseye, ibisukika, cyangwa se n'ibiribwa. Imiti rimwe na rimwe iba ifite amabara atandukanye, harimo ay'umuhondo, umutuku, ubururu, ndetse n'icyatsi.

Abagore bafite uruhare runini mu buhinzi bw'u Rwanda, aho abakozi benshi bashinzwe ubuhinzi bagira uruhare runini mu gusarura ibihingwa, gutunganya umusaruro ndetse na nyuma yo gusarura ari abagore, kongerare ubushobozi bw'abagore mu buhinzi biri muri bimwe byateza imbere igihugu cyacu.

Ibinini by'imiti gakondo mu Rwanda ubusanzwe bikozwe mu bimera byajanjaguwe imizi cyangwa ibimera bivamo ibihingwa. Ubu buryo bufatwa mu kanwa kugira ngo bivure indwara zisanzwe nk'ibibazo by'igifu, ibicurane ndetse n'izindi ndwara zidakira. Akenshi ibi binini bikunda kuza mu ibara ry'icyatsi.

Ibimera byinshi bisigaye bikurwamo imiti ya gakondo aho bifashisha amababi, ayo mababi kandi agomba kuba atumye, abantu benshi bamajije kumenyera ndetse no kwizera ubu buryo bwa gakon bwo gutangamo imiti, amababi menshi akunda gukoreshwa, abantu bagakoresha nk'ifu y'ayo mababi aba yasewe.